icyapa cyubakikijije ibyuma kiri hagati y'ibiti bibiri. Kiri mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu. Gishushanyijeho imbwa ihengamye, gisa nk'aho gifite urwego ruzamuka rujya hejuru ndetse kiri ahantu ku kirere gikeye kitatanga imvura. Bisa nk'aho cyanditseho imibare itandukanye n'amagambo atandukanye. Ndetse n'igishushanyo kirimo A nyinshi n'akarongo kaberamye. Kiragaragara nk'aho giteretse ahantu hitegeye.

Inzu y'umuturirwa igeretse birenze rimwe, iriho amagambo ari mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'ijambo ryanditseho SAHAM, ifite inkuta zitukura isa nk'aho iri iruhande y'amatara yo mu muhanda ndetse hari igiti kiri iruhande rwayo ndetse urebye hejuru urabona n'umunara, hasi hari umumotari wambaye kasike.

Imodoka y'umukara ifunguye ububiko bw'inyuma, irimo ubusa, yakije amatara yombi aranga ibyerekezo, yakije amatara y'ifungurabubiko yombi, irimo ubusa iri ahantu izindi zibikwa.

Igikari gifite inkuta zometseho amakaro, giteretseho ikidomoro ndetse n'inkombo zisohora amazi n'umuyoboro w'amazi, giteretseho ibuye ry'igikari ndetse gishashweho amapave, giteretseho intebe eshatu zifite imisego itandatu, zirimo mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu bwijimye, izo ntebe zikaba zifite akameza k'umukara ndetse.

Iguriro ry'imyenda imwe imanitse indi iri mu tubati dukozwe mu mbaho, rigaragaramo abantu bagera kuri bane b'abasore ndetse n'umukobwa umwe, umwe muri bo afite utuntu bahahiramo bigaragara ko bamwe ari abaguzi abandi ari abagurisha bose urabona ko bahuze cyane.

Inyubako igeretse gatatu iri mu mabara atandukanye ifite ibyumba byinshi by'ubucuruzi ndetse isa nkaho iciyeho insinga hejuru z'amashanyarazi ku ruhande ifite iminara y'itumanaho ihagazeho hasi abantu b'uruhurirane bigaragara ko ari akakangari barenga magana abiri basa nkaho hari ikintu bayikeneyeho.

Akazu gatoya, gasize amabara y'umuhondo, kanditseho amagambo bigaragara ko gakoramo umukozi wa MTN, kamanitsemo ya makoti yabo, inyuma hanze hahagaze abantu batatu, umukobwa umwe n'abagabo babiri, bigaragara yuko ari abaguzi, ndetse iruhande rwako, hari inzu isa nk'aho itari yuzura cyangwa ikaba ishaje, ndetse iruhande rwako hari ipironi rimanitseho imyenda.

Inzu ikodeshwa iherereye ahitwa Kimironko ifite hanze hashashe amapavu meza ndetse yiganjemo amabara y'umweru, isashweho amakaro ndetse ikaba isakaje n'amabati y'ubururu bwijimye, ifite ikigega kigaragara neza ndetse gifite n'urwego rukijyaho, iruhande rwayo urabona ko hari izindi nzu zigezweho ndetse ifite n'igipangu cyiza hanze hateretse n'agatebe.

Iguriro risasheho amakaro y'umweru imwe muri ryo yanditseho umubare icyenda ,ndetse bigaragara nkaho rigeretse ririmo ubwoko bw'ibicuruzwa burenga ibihumbi bibiri ,hariho n'umuntu usa nkumuguzi cyangwa umugurisha ,wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ikote ry'umutuku n'imisatsi miremire asa nkahori kugura ishyakagurisha ririmo amatara yaka umweru bigatuma ahantu hose habona,